Abana aho bari hose baba bagomba gukora imyidagaduro kandi imyidagaduro bakora ituma barushaho kumenyana, bakarushaho gukundana ndetse bakarushaho no gukura mu mitekerereze.

Abana bakiri batoya nabo barigishwa kandi hari imfashanyigisho zibafasha, mu gihe barimo kwiga, izo mfashanyigisho ziboneka ku nkunga ya Leta, kandi amafaranga bishyura aba ari make ugereranyije n'amafaranga abayaguze ibyo bikoresho.

Abana bakiri batoya bashimishwa no kubona ibipupe byo mu bwoko butandukanye, bibafasha gukina ibyo bipupe iyo babibonye bishobora gutuma ubushobozi bwabo bwo gutekereza ibintu bwiyongera bityo bakaguka mu bitekerezo.

Abana biga mu mashuri bakiri batoya cyane, hari ibintu bishobora kubafasha kumenya ibyo biga ndetse no kubisobanukirwa, ibishushanyo biba bishushanyije ku nyubako bigiramo bishobora kubafasha.

Igikapu ni igikoresho umuntu ashobora gutwaramo ibintu bitandukanye by'umwihariko abanyeshuri bagitwaramo amakayi mu gihe bagiye ku ishuri, abana bakiri batoya ababyeyi babo babashiramo amakayi kugira ngo batayata.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa se abagitangira kwiga hari uburyo bukoreshwa kugira ngo mubafashe kumenya kwandika inyuguti, aho babatuma amakayeyi yihariye yo kwandikamo izo nyuguti.

Abana bagitangira kujya ku ishuri hari ibikoresho baba bakeneye, hari ibikoresho bibafasha gushushanya kugira ngo batoze intoki zabo kwandika vuba bityo ubushobozi bwabo bwo kumenya gufata ibintu mu mutwe bwiyongere.

Abana bakiri bato bakorerwa ibikinisho, bishobora kubafasha, niyo mpamvu ahantu higa abanyeshuri babana bakiri batoya, uhasanga ibishushanyo kugira ngo bibafashe, mu myigire yabo.

Abanyeshuri bagitangira kwiga bahera ku mibare yoroheje ndetse n'inyuguti zoroheje, ibyo bibafasha guteranya amagambo, niyo mpamvu usanga mu mashuri yabo hari ibishushanyo bimanitsemo bibafasha gukangura ubwonko bwabo.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'abana bakijya ku ishuri, bakwiriye gushakirwa ibikoresho bagomba gutwaramo amakayi, kugira ngo imvura itanyagira ayo makayi hanyuma agatoha.

Abanyeshuri bagitangira kwiga ni ukuvuga abana bakiri bato cyane, ababyeyi babo baba bakwiriye gukora uko bashoboye kose bakabashakira ibikoresho bashobora kwifashisha batwaramo amazi, kuko inyota ibishe bashobora no kurira.

Ibicuruzwa bigirira akamaro abaturage ariko kandi abanyeshuri bakijya ku ishuri bakeneye kumenya ibintu bitandukanye, niyo mpamvu mwarimu ashobora kubazanira ibintu bitandukanye bakabafasha kumenya amazina yabyo.

Hari imitako ikoreshwa mu gihe k'isabukuru y'amavuko, iyo mitako iba yarakozwe n'abantu b'abahanga ariko nanone abanyeshuri bagitangira kujya kwiga, ni ukuvuga abanyeshuri bakiri batoya bagomba gusobanurirwa uburyo ibyo bikorwamo.

Abana biga mu mashuri abanza cyangwa se amashuri yitwa Ikiburamwaka, bakunda kugira imikino itandukanye ibafasha gukuza imitekerereze yabo kandi bakarushaho gukundana.

Abana bakiri batoya iyo bageze ku ishuri baba bagiye kwiga ibintu bitandukanye, kugira ngo basobanukirwe ibyo biga hashyirwa ibishushanyo ku nyubako bigiramo kugira ngo zibasobanurire neza amasomo yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'abandi bana bakiri batoya, iyo bagiye ku ishuri kugira ngo mwarimu abasobanurire neza, abakwiye gukoresha neza imfashanyigisho, aho ashobora gufata igishushanyo akababaza ibibazo bijyanye n'icyo gishushanyo.

Abana bakiri bato, umuntu ashobora kubigisha akoresheje umugani, umugani ni imvugo iba itarabayeho ihimbwa kugira ngo ifashe abantu mu buzima bwabo, ikabigisha ibintu bitabayeho ariko bishobora kubaho, ubigereranyije no mu buzima busanzwe bigatanga inyigisho.

Abana bakiri bato baba bakwiye kujyanwa ku ishuri kugira ngo bigishwe gusoma no kwandika, abo bana baba bakwiriye guhabwa imyambaro yo kwambara ibafasha kugira ngo bamere nk'abandi kandi na bo bagire uruhare mu masomo biga.

Amashuri yo mu cyaro aba akikijwe n'ibimera byinshi bishobora kuba ari ibimera ikigo kiba cyarahinze kugira ngo abanyeshuri biga muri ibyo bigo, babone ibyo kurya mu buryo bworoshye.

Ubugeni n'umuco bifite akamaro cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, biga uburyo bakora ubukorikori bwabo bakoresheje ibikoresho biboneka, bikabafasha mu muco wabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hari ibikoresho bibafasha mu kwidagadura. Ibyo bikoresho ubuyobozi cyangwa se leta nibwo bubitanga, kugira ngo bufashe abana gukura mu mitekerereze.

Mu bitabo byo mu mashuri abanza, aba ashushanyijemo amashusho y'abana batoya, bajya ku ishuri, abo bana kubareba biba bishimishije kandi bifasha abanyeshuri bo mu mashuri abanza, gusobanukirwa akamaro ko kwiga.

Abana biga mu mashuri abanza bashobora guhabwa amashusho atandukanye kugira ngo bamenye gutandukanya imbuto ndetse n'ibintu. Urugero: bashobora kubona nk'ishusho ikozwe mu nanasi nanone ikozwe mu gikapu, mwarimu akabasaba kugira icyo bayivugaho.

Abana biga mu mashuri abanza, nabo bashobora kugira uruhare mu masomo biga, mu gihe umwana afite igitekerezo, ashobora kuzamura ukuboko agatanga icyo gitekerezo, hanyuma mwarimu akacyumva.

Inyubako zitandukanye zifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Amashuri y'imyaka ibanza ni ukuvuga icyiciro rusange, nayo aba akenewe cyane kandi aba akwiriye kwitabwaho.

Aashuri abanza, aba yubatse ku mirongo, ku buryo umwana ava mu wa mbere, akajya mu wa kabiri, akava mu wa kabiri, akajya mu wa gatatu, akava mu gatatu, akajya mu wa kane, akava mu wa kane, akajya mu wa gatanu.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bagira ibikoresho bifashisha mu gihe bagiye kwiga. Ibyo bikoresho nk'ibyifashishwa mu mibare, bibafasha mu gihe bari guca uruziga mu makaye yabo bityo bikaborohera.

Abanyeshuri iyo bari mu ishuri, hari ibintu bitandukanye bigenda bibashimisha kandi ababyeyi nabo bakora uko bashoboye kugira ngo abana babo babone imyambaro yo ku ishuri, niyo mpamvu abanyeshuri bakora ibizame kugira ngo mwarimu apime ubushobozi bwabo.

Ibitabo abanyeshuri bigiramo bo mu myaka ibanza, biba birimo amashusho ashimishije kuyareba, yigisha abana akabatoza kuvumbura ibintu binyuriye muri ayo mashusho hakagira ibyo basigarana mu mitwe yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakwiriye kugira ibikapu batwaramo amakaye yabo, kuko ibyo bikapu bibarinda ko amakaye yabo anyagirwa cyane cyane mu gihe cy'imvura, kandi kuyatwara bikoroha.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bagira uruhare mu gutuma iterambere ry'igihugu ryiyongera kuko iyo bajijutse, ubushobozi baba bafite bwo gusoma no kwandika, bugira akamaro mu gihugu cyose.

Abanyeshuri kugira ngo bagire ubumenyi ku ikoranabuhanga bagomba kwigishwa, ni yo mpamvu ibigo byinshi biba birimo inyubako hashyirwamo mudasobwa kugira ngo abanyeshuri bazigireho.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hari ibikoresho baba bafite bibafasha guca imirongo mu makaye yayo, ibyo bikoresho bibafasha kuba abantu bagendera ku murongo, kandi bafite isuku mu makaye yabo.

Abanyeshuri bo mu myaka ibanza, n'abo biga Icyongereza. Amasomo biga bayiga mu cyongereza kandi Icyongereza baba bakizi neza gusa hari abanyeshuri usanga bakeneye gusobanurirwa ikinyarwanda.

Ibikoresho umunyeshuri yitwaza agiye kwiga mu gihe yiga mu mashuri abanza harimo ibikoresho bimufasha guca uruziga, guca umurongo ugororotse ndetse n'ibindi bikoresho bimufasha gushushanya. ibyo bikoresho biramufasha cyane.

Ibitabo byo mu mashuri abanza byinshi biba bishushanyijemo ibishushanyo, ibyo bishushanyo bishobora kugaragaramo inyamaswa z'ubwoko butandukanye, zishobora gukoreshwa mu gusobanura imigani.

Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, akwiriye kugira ibikoresho bimufasha cyane cyane mu isomo ry'imibare. Abakeneye ibikoresho bizamufasha gushushanya, guca umurongo, ndetse no guca uruziga.

Abarimu baba bakwiriye kuba nk'ababyeyi b'abana bigisha, bakabafasha gusobanukirwa ibintu mu buryo bwimbitse, babigisha mu buryo bumwe ibintu bikabananira, bagakoresha ubundi buryo kugira ngo aba bana babifate neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza baba bakeneye ibitabo kugira ngo babone uko biga. Mwarimu ashobora kwifashisha ibyo bitabo abasobanurira amasomo, ariko nanone nabo bashobora gucura ibyo bitabo kugira ngo basubiremo amasomo bize.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hari uburyo butandukanye bashobora kubigishamo kugira ngo bafate mu mutwe, umwarimu ashobora gukoresha inyuguti, izo nyuguti akagenda azikora mu bikoresho bitandukanye, hanyuma abanyeshuri bikaborohera kuzifata.

Ibitabo byo mu mashuri abanza biba birimo amashusho, ayo mashusho afasha abanyeshuri gusobanukirwa ibyo biga ndetse no kumva neza akamaro k'isomo bagiye kwiga, bityo bikabagirira akamaro.

Ibikoresho umunyeshuri wiga mu mashuri abanza agomba kuba afite, bigomba kumufasha gukora ibyo yiga neza harimo ibikoresho bimufasha guca imirongo mu makaye ye, ndetse n'ibikoresho bimufasha gushushanya.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza hari ibikoresho byabagenewe bibafasha mu kwiga, abanyeshuri biga bashobora kugira ibikoresho bitandukanye n'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kuko akenshi baba bakeneye kwiga bareba ibintu biga.

Ibitabo byinshi abanyeshuri bigiramo, biba birimo amashusho. Urugero hari abanyeshuri biga ibintu bitandukanye, nk'abanyeshuri bari kwiga akamaro k'inka bashobora kwifashisha, igishushanyo kigaragaza inka kugira ngo bamenye uko inka iteye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bagira ibikoresho bibafasha mu gukora imyidagaduro. Ibyo bikoresho bituma bavumbura ubushobozi bafite bwo guhanga ibintu kandi bashobora gukora ibintu bitandukanye bitewe n'uko bamenyereye imikino runaka.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bagira umwanya wo kwidagadura, muri uwo mwanya abanyeshuri baraganira bagasabana, ndetse ubushobozi bwabo bwo gutekereza bukiyongera kuko bumva ari abavandimwe babanye n'inshuti.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, baba bafite ibitabo, bigiramo bitandukanye n' ibyo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye kuko usanga ahanini, ibitabo by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, byiganjemo amashusho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, hari ibikorwa bashobora gukora bikaba ngombwa ko bahembwa, abanyeshuri baba bifitemo ubushobozi ndetse n'impano zitandukanye, ku buryo bashobora gukora ibikorwa bigatangaza abantu benshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bafite ubushobozi bwo gusomera mu ruhame ndetse no gusoma neza ku buryo bashobora gusoma inyandiko iri mu rurimi runaka, abandi bakayumva bitabasabye ubusobanuzi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakwiriye gukaraba intoki inshuro nyinshi kugira ngo indwara ziterwa n'umwanda, zitabafata bityo bakarwaragurika. Mu gihe bagiye kurya, mu gihe bavuye kurya, mu gihe bavuye mu bwiherero, baba bakwiriye gukaraba intoki.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahabwa amahugurwa ajyanye n'uburyo bakita ku buzima, ndetse bakigishwa n'ibindi bintu bijyanye n'imyaka barimo, kugira ngo bagire imyiteguro myiza y'ubuzima bwabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, baba bafite uburenganzira bwo gukoresha ikoranabuhanga, gusa kugendana amatelefoni bagiye kwiga ntibyemewe ahubwo bashobora gukoresha mudasobwa mu gihe bagiye mu nzu yabugenewe.

Abana bari ku ishuri mbere yuko binjira ku ishuri mu gitondo cya kare barabanza bakajya ku murongo bagahabwa amabwiriza y'uburyo bari bwitware uwo munsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahurira ahantu hamwe bagakina imikino itandukanye, mu gihe k'icyorezo abanyeshuri nabo bakwiye kwambara agapfukamunwa kugira ngo birinde ko bakanduzanya indwara zandura.

Hari amashuri aba mu cyaro ku buryo kubona ibikoresho by'ibanze bishobora kugorana, abanyeshuri biga muri ayo mashuri baba batandukanye n'abanyeshuri biga mu mijyi, kuko baba badafite ibikoresho bihagije.

Abubatsi bubaka amashuri baba bafite ubuhanga bwihariye, kuko ayo mashuri abagirira akamaro, akagirira akamaro n'igihugu, niyo mpamvu bakora uko bashoboye kose bakubaka ibintu bikomeye, kugira amashuri atazahirimira abanyeshuri.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye baba bakwiriye guhabwa ibizamini kugira ngo ubushobozi bwabo bupimwe hanyuma mwarimu amenye ukuntu yabafasha ndetse n'uburyo yabigishamo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bakuzemo gakeya ugereranyije n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bafite ubushobozi bwo gutekereza ku buryo bashobora gutekereza ibikorwa by'iterambere.

Amashuri yisumbuye abantu barahahurira, kugira ngo baganire icyo bakora kugira ngo amashuri yabo akomeze gutera imbere. Amashuri abafite inyubako zituma abanyeshuri badatoroka ngo bakomeze kujya hanze.

Ibigo by'amashuri biba bigomba kwitabwaho, hakaza abantu bo kubaka inyubako zitandukanye kugira ngo abanyeshuri babone aho bigira mu bwisanzure hirindwa umuvundo ugaragara mu mashuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakunda guhurira ahantu hamwe bakiga ibintu bishobora kubagirira akamaro, harimo inyigisho zijyanye n'ubuzima, ndetse n'izindi nyigisho bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bashimishwa n'ibintu bitandukanye, aba abanyeshuri bashobora kubona ibintu bikabashimisha, ku buryo bashobora guseka bakagira akanyamuneza abantu bose bakabibona mu gihe babareba.

Hari abana bagera mu mashuri yisumbuye bakigaragara ko ari batoya kubera ko baba barize vuba vuba, abo bana bakunze kuba bafite ubwenge kandi bakunda gukurikira mu ishuri.

Abanyeshuri bateraniye hamwe bahabwa amabwiriza bagomba gukurikira kugira ngo bumve ayo mabwiriza, ku ishuri hari inzego zitandukanye zishobora gusura abanyeshuri hanyuma zikabaganiriza ku ngingo zitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye hari ibizamini bagenda bakora, ariko kandi mbere yuko bajya mu ishuri barabanza bagahurira ku murongo bagahabwa amabwiriza y'ukuntu bari bwitware uwo munsi kugira ngo ishuri rigende neza.

Aba banyeshuri bari mu ishuri barakurikira, bakirinda kurangara kuko amasomo iyo abacitse bashobora gusibizwa, ubwo rero mu gihe umunyeshuri abikoze neza bishobora kumugirira akamaro kandi akazavamo umuntu ukomeye.

Abantu iyo bicaye hamwe bungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye. Abantu bashobora kuba bari mu mahugurwa, bakaganira ikintu gishobora kubagirira akamaro bose kandi buri wese akungukira kuri mugenzi we.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, mbere yuko bajya ku ishuri cyangwa se mbere y'uko binjira mu mashuri, barabanza bagahabwa amabwiriza y'ukuntu bari bwitware, mu gihe bagiye mu ishuri ndetse bakaba banaririmba indirimbo zimwe na zimwe cyangwa se bagasenga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye nabo bashobora kubona ibishushanyo bakaba babikoraho ubushakashatsi. Ibishushanyo birimo ubusitani bwiza abantu bashobora kubishushanya bagamije kwigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ni ukuvuga abanyeshuri biga imyuga ndetse n'abanyeshuri biga mu ma kaminuza, bashobora gukora ibikoresho bitandukanye, bitewe n'ukuntu bize.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza, hari ibishushanyo bashobora kubona ahantu bagahita bamenya gutandukanya ubwoko bw'ibyo bishushanyo. Ibyo bishushanyo bishobora kuba bishushanyije ahantu hatandukanye, ku nzugi ndetse n'ahandi.

Abanyeshuri biga mu ma kaminuza baba bafite uburyo bwo gutemberera ahantu bashaka. Hari ahantu umuntu ashobora gutembera akumva aranyuzwe, mu gihe hari amazi ndetse n'ibiti nyaburanga biryoheye ijisho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza cyane cyane abanyeshuri biga imyuga, baba bazi gushushanya ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buzima busanzwe. Aba banyeshuri bashobora kubikoramo akazi bagahembwa.

Abanyeshuri biga imyuga baba bashobora gukora ibikorwa byabo by'ubugeni bifashishije ibintu bize. Bimwe mu byo bashobora gukora ni ukubumba ishusho y'umuntu mu ibumba, abantu bakayireba bakabishyura amafaranga.

Ibibumbano runaka bishyirwa ahantu, bishobora kugira ikintu bisobanura bitewe n'ahantu byashyizwe, umuntu wese uzi gushishoza ashobora kureba ikibumbano cyashyizwe ahantu akamenya igisobanuro cyacyo.

Ibibumbano bikozwe mu ibumba bishobora kumeneka mu buryo bworoshye, abantu bakora ibibumbano byo mu ibumba baba bagomba kwigengesera kugira ngo bakore ikintu gifite ishusho nziza kandi kigira umumaro.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza, aba ari abantu bakuru ku buryo batembera umuntu agira ngo ni ababyeyi. Ariko baba bafite amakayi ndetse n'ibindi bikoresho bibafasha mu kwiga.

Abanyeshuri biga mu makaminuza baba bakwiriye na bo guhabwa amahugurwa, ayo mahugurwa abafasha kumenyera ikigo ndetse no kuba basanisha ubuzima bwabo n'ubuzima buboneka hanze y'ishuri

Hari ibikoresho bitandukanye bishobora gukorwa hifashishijwe ibumba, ibyo bikoresho bigira uruhare mu gutuma abantu babona ibyo bakeneye kuko ibyo bikoresho biba bihendutse, ibikoresho byakozwe mu ibumba bishobora kumeneka.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bahurira mu matsinda, bagakorera hamwe imikoro mwarimu aba yabahaye, abanyeshuri biga muri kaminuza baba bagomba kuganira, mbere yuko bakora imikoro runaka kugira ngo bungurane ibitekerezo kandi bahurize hamwe.

Abanyeshuri bize imyuga bashobora gukora ibikorwa bitandukanye. Ibyo bikoresho bakora mu ibumba bishobora gukoreshwa mu buzima bw'abaturage bwa buri munsi, kandi bishobora kubagirira akamaro mu buryo butandukanye.

Abanyeshuri bari kwiga bakunda kwigira mu nyubako zituje aho bashobora gusubiramo amasomo yabo nta kintu kiri kubarangaza. Izo nyubako nta rusaku ruba rurimo, kuko baba bashaka gusubiramo bafata mu mutwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bashobora kunanirwa cyane bitewe n'imikoro mwarimu aba, ariko kandi n'abanyeshuri biga mu mashuri ya Kaminuza nabo bagire imikoro myinshi ishobora kubananiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, hari igihe kigera bakajya mu mahugurwa. Abanyeshuri bo muri kaminuza iyo bari kwiga baba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha. Baba basabwa gukurikira kugira ngo bibande ku bintu by'ingenzi bizabafasha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bakwiriye gufashanya, cyane cyane abanyeshuri biga muri kaminuza, baba bakwiriye gusobanurirana ibyo batumva kugira ngo buri wese abone icyo asubiza mu gihe abajijwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na kaminuza, bakwiriye kugira ubushishozi kuko bashobora kubazwa ibintu bikomeye ugereranyije n'abakiri batoya. Niyo mpamvu hari ibishushanyo bashobora gusesengura bakamenya icyo bishatse kuvuga.

Amashusho agaragara ahantu hatandukanye, aba yarashushanyijwe n'abanyeshuri, babyize, abanyeshuri bashushanya amashusho atandukanye, akenshi baba barize ibijyanye n'umwuga cyangwa se amakaminuza yigisha gushushanya.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza bagira uruhare mu gutuma ubuzima bw'abaturage bugenda neza kuko hari ibintu bashobora kuvumbura bikabagirira akamaro niyo mpamvu haba hari inyubako nziza bigiramo zikabafasha mu myigire yabo.

Abanyeshuri iyo bari ku ishuri bagenda biga ibintu bitandukanye bishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi ibyo bintu ni ingirakamaro kuri bo, kuko ubumenyi bahakura babwifashisha mu giturage kandi bukaba bwafasha n'abaturage gukomeza kugira imibereho myiza.